Umutekano ni ingirakamaro mu gihugu cyacu, aho nk'abapolisi baba barahawe imyitozo yo kuwucunga, bahabwa imyenda yabugenewe, imbunda zirimo n'amasasu. Maze bakarinda abaturage babungabungira umutekano.

Umutekano uba ukenewe ahantu hose, nk'iyo amazu afashwe n'inkongi z'imiriro, tuba tugomba gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo abashinzwe umutekano nk'abapolisi baze bahazimye, kandi n'abarimo tubatabare bwangu batarahitanwa nayo, bityo umuturage akabera undi ijisho.

Umutekano ni ingirakamaro cyane aho nk'abasekirite, abasirikari, abaporisi bahabwa amahugurwa ku buryo babungabunga umutekano w'abaturage, maze na bo bakabihemberwa, kuko baba barabyigiye.

Umutekano ni mwiza cyane, nk'umutekano wo mu muhanda, aho haba harimo ibinyabiziga byinshi nk'amamoto, imodoka, amagare. Haba hariho amatara ashinzwe guhagarika imodoka zimwe, izindi zikagenda kugira ngo hatabaho kugongana abantu bakitaba Imana.

Inama ni igirakamaro cyane, aho abaturage baturutse impande zitandukanye bayiburiramo, bakungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye, maze bakabifatira imyanzuro, kugira ngo imibereho y'umuntuntu irusheho kuba myiza amaze atere imbere.

Abaturage baturutse imihanda itandukanye ,bahurira hamwe baje mu nama ,aho bagezwaho ibintu bitandukanye, bakabyigaho kugira ngo babeho basobanukiwe ibintu bimwe na bimwe barusheho kwiteza imbere mu miryango yabo.

Umuco gakondo dusangamo inzu z'ibigega aho ziba zubabatswe n'ibiti ndetse n'ibisakaje ibyatsi, aho bazihunikagamo imyaka igihe yeze kugira ngo bazibungabunge zitazangirika igihe cy'ihinga bakazongera kuzikoresha.

Mu muco gakondo habamo ibintu bitandukanye, aho bakora nk'ububaji bwo mu biti, ukoramo imitako igiye itandukanye, bashyiramo indabo, nk'amavase maze ubikora akabona amafaranga, aturutse mu babigura bashaka kubikoresha mu ngo zabo.

Mu bikoresho gakondo dusangamo ibintu bigiye bitandukanye, nk'isekuro n'umusekuzo, aho yifashishwaga mu gusekura imyumbati, cyangwa isombe.

Umuco gakondo ni mwiza cyane kuwusigasira, aho ukorwa abantu babyina imbyino za kera, bambaye ibitenge n'imikenyero, kugira basusururutse abitabiriye ibirori maze na bo bakishima.

Mu muco gakondo, habaga imirimo itandukanye. habagamo nko guhiga, aho bakoreshaga umuheto ndetse n'icumu kugira ngo bafate inyamaswa babaga bashaka gufata.

Mu muco gakondo habagamo ibikoresho byifashishwaga mu gucuranga imiziki igiye itandukanye, aho harimo n'inanga yifashishwaga bacuranga mu birori, maze abarimo bakishima cyane bakanezerwa.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, kuko zitwibutsa umuco wacu, kandi tukabikora kugira ngo utazacika, ukibagirana, kandi byizihiza abari kuwureba iyo bari kubyina, maze nabo bakishima.

Umuco gakondo habagamo imihango itandukanye aho bashira inzoga mu kibindi, maze bakayisogongeraho bifashishije imiheha, maze bakumva uburyohe bw'icyanga biri mu bisukika baba basutsemo mu gihe cy'imihango y'ubukwe.

Ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi biba ari ingenzi, kuko bituma tubona uko dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, nk'amatereviziyo dukurikira amakuru atandukanye, yo hirya no hino ku isi.

Ni byizayiza kugira imihanda yubatse neza, za kaburimbo aho zifasha abagenda ku binyabiziga nk'amamoto, amagare ndetse n'imodoka, ituma bagera iyo bagiye nta kibazo bahuriye na cyo mu nzira, hakaba hari n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro.

Insengero ni ingirakamaro cyane, aho abakirisitu bazisengeramo baganira n'Imana, kandi zikaba zubatswe neza, zifite n'ibirango biranga idini risengeramo, maze abakirikiristu bakarushaho gusabana n'Imana.

Inzu zikorerwamo n'abayobozi ziba zubatse neza cyane kuko abaturage baza kuhashakira serivisi zitandukanye bakazihabwa neza, kubera igikorwaremezo baba barubatse, kugira ngo bajye babona abayobozi bakorera n'ahantu heza.

Ni byiza ko umuntu akorera ahantu hubatswe neza, kandi hakaba hari n'imihanda ijyayo yubatswe ku buryo bushimishije, maze abajya gushakirayo serivisi bakahagera bitabagoye, kuko haba hari imihanda imeze neza ihageraga, kandi hari n'umuriro w'amashanyarazi.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane, nk'ibibuga by'imipira, abantu bakiniraho, bakora siporo zitandukanye, ndetse n'ibiro abaturage bashakiramo amaserivisi agiye atandukanye, kandi hakaba hari n'imihanda igendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka, amamoto n'amagare.

Kubaka amazu y'amagorofa agerekeranye afite n'imihanda igiye iyanyuzemo ni byiza cyane. kuko bitwara ubutaka bukeya, maze hagasigara n'ubundi wahingaho ibihingwa bitandukanye.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane. Aho iyo byubatswe neza, bituma abantu babona serivisi zitandukanye: nk'ibigo by'amashuri bituma abana babona ubumenyi kuko bo, baza kubyigaho maze bagakarisha ubumenyi bagakura neza bafite ubwenge.

Kubaka ni byiza cyane, nkiyo wubatse inzu z'amagorofa aho zitwara ubutaka butoya kandi zigakorerwamo ibintu byinshi, bityo bigafasha abazikoreramo kubona ahantu heza ho gukorera n'abaje bashaka serivisi, bakahagera bitanabagoye.

Uburezi ni bwiza, aho abana bajya ku ishuri bagakarishya ubumenyi kugira ngo baziteze imbere nibasoza kwiga amashuri yabo.

Uburezi ni bwiza cyane, aho Leta yubatse amashuri, harimo n'ay'amagorofa, kugira ngo abana b'igihugu bazabone aho bahahira ubumenyi, maze bazakure bafite uburere bwiza, ndetse n'ubumenyi, bazarusheho kwibeshaho mu gihe kizaza, bubake n'igihugu.

Gusenga imana ni byiza cyane, aho dusengera mu mazu atandukanye, abagatorika basengera muri kiliriya iba ari nini zubatswe kugira ngo babashe kwegerana n'imana.

Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga, aho n'igitsina gore gihabwa ijambo kikageza ku bantu bateraniye hamwe ibitekerezo afite, maze bakungurana ibitekerezo bitandukanye, buri wese agataha yishimye kubera ko aba yagize umwanya wo kuvuga ibyo yifuza.

Imodoka ni kimwe mu bikoresho, twifashisha tuva ahantu hamwe tujya ahandi, aho bitwara abantu muburyo, bwarusange ari benshi, kubera ko aba ari nini, maze ikabageza aho bagiye, mu gihe gito.

Mu buzima bwa buri munsi dukenera kujya ahantu haba hatandukanye. Aho tugenda twifashishije nk'amagare, adufasha kugerayo vuba byihuse, maze tukahagera tudatinze. Bityo bikatworohera cyane.

Kugira ahantu hahurira abagenzi benshi bajya mu byerekezo bitandukanye ni byiza, nk'iyo haba hari na gare aho bafata imodoka zibajyana mu byerekezo bigiye bitandukanye, maze bakagerayo amahoro bifashishije imodoka.

Ubwikorezi ni bwiza cyane nko kubukora wifashishije indege, iyo igenda mu kirere igiye mu bihugu bigiye bitandukanye, igatwara imizigo ikayihageza kandi ari myinshi, maze bigafasha abakeneye ibyo yazanye, kubibona bitagoranye.

Siport ngoramubiri ni ingirakamaro nko gukina tennis. Aho tugomba kuba dukinira mu bibuga byubatswe neza. Ndetse twambaye n'imyenda yabugenewe. Bityo tukarushaho kuzamura impano zacu tukiteza imbere.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu. Nko gukora siporo ya tenisi twambaye imyenda ya siporo, n'ibikoresho byabugenewe. Kandi tugakinira ku bibuga byubatswe neza, maze tukazamura n'impano zacu, tugatwara n'ibikombe.

Siporo ni ingirakamaro, aho abacuruzi bamwe bacuruza ibikoresho bya siporo, n'ibikombe baha amakipe iyo yitwaye neza, ndetse n'amabalo bakina atandukanye, yaba ay'umupira w'amaguru nka vole bolo, cyangwa aya basiketi.

Siporo zakorwa mu buryo butandukanye, nko gukora siporo yo gutwara amagare, aho barushanwa ubaye uwa mbere agahabwa ibihembo, kandi bagakoresha amagare ameze neza, ndetse bambaye n'imyenda yabugenewe, bakagenda mu mihanda yubatse neza, kugira ngo barusheho kuzamura impano zabo.

Siporo ni ingirakamaro cyane ,aho nk'iyo twagiye kureba imikino mu ma sitade baba batumiye n'abahanzi maze mbere y'uko umukino utangira cyangwa urangira, abahanzi bakadususurutsa ,maze tugakurikira umukino twishimye cyane .

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwacu ,aho abayikora batwara ibihembo igihe bahize abandi, maze bakarushaho kuzamura impano zabo bakagera kure.

Siporo ni ingirakamaro nko gukina umupira w'amaguru, aho tuwukinira mu bibuga byubatswe neza, twambaye n'imyenda yabugenewe idutandukany n'ayandi makipe, tukarushaho kuzamura impano zacu.

Siporo ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu, nko gukina vore boro, aho igomba gukinirwa mu bibuga byubatswe neza, maze tukarushaho kuzamura impano zacu, tubikesha iterambere igihugu ryagezeho, ritwubakira ibikorwaremezo byiza cyane.

Siporo n'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi nko gukora siporo yo kwiruka, twambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto kugirango ngo turusheho kuzamura impano zacu, kandi tugira n'ubuzima buzira umuze.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi nko gukina tenisi, aho abayikina binjiza amafaranga kubera ko iyo batsinze bahabwa ibihembo, maze bakarushaho kuzamura impano zabo.